Bumwe mu bucuruzi buciriritse, bugiye bwiganjemo bimwe mu bikoresho byo mu rugo cyangwa se ibyo mu buzima busanzwe dukoresha, aho twavugamo nk'ibikombe, amasahani, amafoke, imishyo ndetse n'ibindi bitandukanye.